Umwana ukiri mutoya ufite umusatsi mukeya hejuru akaba aryamye ku gitanda arimo aratanga amaraso yambaye akajire gatukura k'ikigo gishinzwe gukwirakwiza no gutanga amaraso cya Croix Rouge.

Abaforomo n'abaforomokazi bagira uruhare mu buzima bwacu bwa buri munsi nk'uko aba bagaragara barimo barabwirwa imbwirwaruhareme n'umuganga ubakuriye ababwira uburyo bagomba kwita ku barwayi mu buryo bwiza kandi bwihuse.

Abantu barimo barandikira ku meza ateretseho uducupa tw'amazi ndetse akaba arambuyeho n'igitambaro cy'umweru, abo bantu bambaye utuje ndetse n'ingofero by'ikigo k'Igihugu gishinzwe gukwirakwiza amaraso.

Iyo wumva utameze neza ni byiza kujya kwisuzumisha kwa muganga nkuko uyu mudamu yabikoze, akaba arimo arafatwa amaraso kugira ngo ajyanwe mu isuzumiro barebe indwara yaba arwaye.

Abantu b'abakorerabushake ba Croix Rouge bakaba bateruye umuntu ugize ikibazo, bamuzanye kwa muganga aho agomba kwitabwaho kugira ngo ubuzima bwe baburokore.

abantu b'abaturage baje mu gikorwa cy'umuganda rusange, aho bari kubakira umuturage. Hari abahagaze hasi ndetse abandi buriye hejuru imbere yabo bantu hari utwana dutoya.

Abantu biganjemo urubyiruko bambaye amajire y'ikigo k'igihugu gishinzwe gukwirakwiza ndetse no gutanga amaraso ku barwayi bayakeneye. Biragaragara ko bari baje mu nama.

Iyo ageze kwa muganga ufite umurwayi wihutirwa kwitabwaho, biba ngombwa ko abaganga baba baretse ibyo bari barimo bakabanza bakaguha ubutabazi bw'ibanze kugira ngo ubuzima bwe butahatakarira.

Kwa muganga haba hari icyumba cyagenewe kuryamishwaho abarwayi bafite ibibazo bakeneye kwitabwaho by'umwihariko cyangwa se yarembye cyane bikaba ngombwa ko bamuha imyuka.

Rimwe na rimwe ku bitaro usanga haba hari icyumba cyagenewe kuba babikamo amakuru y'abarwayi baba baje kwivuza aho aba umukozi ubishinzwe ugenda ukamubwira ibyo ukeneye.

Icyumba cy'inyubako yo kwa muganga, kirimo ibyuma byifashishwa mu buvuzi cyane cyane iyo bagiye kubaga cyangwa se gupfuka umurwayi uba wakomeretse.

Inyubako nziza ifite urubaraza rusakaye rwicayemo abantu b'abagore n'abagabo bari mu nama bateze amatwi ibyo barimo barabwirwa, hari n'utwana tubiri turi ku ruhande.

Ni byiza gusuzumisha umwana indwara zitandukanye akiri mutoya atabanje kuba yaremba cyane kuko bimufasha kuba yavurwa hakiri kare ndetse akanitabwaho n'abaganga bityo ubuzima bwe bugakomeza kugenda neza.

Abantu batatu bari mu nzu ahantu bigaragara ko ari m inzu y'ibagiro, harimo umugore umwe n'abagabo babiri, bambaye uturindantoki turimu ibara ry'umweru.

Inyubako nziza yubakishije amatafari ahiye ndetse imbere yayo hakaba hahagaze abagabo batatu bambaye babiri amataburiya umwe utayambaye, bahagaze imbere y'abaturage ubona ko barimo barabagezaho amagambo babateguriye.

Inyubako nziza cyane yubatse mu buryo bugezweho bwa etage, birasa nkaho ari ikigo cy'ishuri cyangwa se ibitaro, imbere yayo hahagaze abantu biganjemo urubyiruko barimo barifotoza ifoto y'urwibutso.

Abantu bicaye mu ntebe z'imbaho biganjemo abakiri bato ndetse n'abakuze, abagore ndetse n'abagabo. Bicaye bateze amatwi umuntu urimo arabagezaho imbwirwaruhame uhagaze imbere.

Umusore urimo araterwa urukingo rw'indwara afite, yambaye isaku kuboko ndetse na telefone mu ntoki, yambaye kandi agapira k'umukara n'ipantaro y'ikoboye, umuganga afite urushinge arimo aramutera ndetse yambaye n'agapfukamunwa.

Abaturage benshi batandukanye baba abakuru ndetse n'abato bicaye ku murongo ku rubaraza rw'inyubako y'ibitaro kwa muganga, baje gushaka serivisi zitandukanye bitewe n'ibibazo bafite bitandukanye.

Ibitaro byose byo mu Rwanda cyane cyane ibikomeye bivurirwamo indwara zananiranye, biba bifite amasuzumiro agezweho kandi afite ibikoresho bitandukanye kugira ngo ajye akoreshwa.

Igihe cyose uketse ko ufite indwara waba waranduye, yaba ikira cyangwa se idakira, ni byiza kugana kwa muganga, kwisuzumisha bakagupima kugira ngo umenye ko umubiri wawe uhagaze maze ubeho neza.

Buri bitaro byo kwa muganga biba bifite icyumba cyagenewe isuzumiro, aho bajyana ibipimo bakabipima maze bakamenya indwara urwaye.

Abantu benshi bateraniye ahantu hamwe mu cyumba barimo baraganirizwa n'umugabo wambaye ikote rijya gusa umweru, ari kumwe n'undi wambaye itaburiya y'umweru, arimo arabereka akantu k'umweru.

Mu bikoresho byo kwa muganga byifashishwa mu isuzumiro haba harimo ibyuma bitandukanye nka bimwe byitwa microscopy byifashishwa harebwa udusimba dutoya tutabashwa kubona n'amaso.

Umuganga uri mu cyumba k'isuzumiro aho arimo akoresha icyuma cyabugenewe kifashishwa bareba ibitabasha kubonwa n'amaso igihe bihari.

Buri bitaro mu Rwanda biba bigiye bifite icyumba cyagenewe isuzumiro ndetse kigakorerwamo n'ubushakashatsi ku ndwara zitandukanye, zaba iz'inzaduka cyangwa se izari zisanzwe zizwi.

Uducupa duteretse ku meza ndetse n'amakayi kimwe n'ibinini, biri mu cyumba kizwi nk'isuzumiro kiba kiri kuri buri bitaro byo mu Rwanda, kikifashishwa igihe bafashe ibizamini umuntu.

Ibiganza by'umuganga wambaye uturindantoki tw'ubururu akaba arimo arapima ibintu akoresheje icyuma cyabugenewe kizwi ku izina rya mikorosikopi.

Mu isuzumiro ryo kwa muganga mu bitaro ni ho usanga ibipimo byafashwe bijyanwa bikajya gusuzumwa kugira ngo bamenye indwara umurwayi arwaye ndetse hari n'igihe haza kwigira abanyeshuri baba biga mu bigo bya kaminuza bitandukanye.

Abaforomo n'abaforomokazi ni bamwe mu bantu b'ingenzi Igihugu cyacu gikeneye kandi badufitiye akamaro kuko badufasha mu kubungabunga ubuzima bwacu igihe twarwaye cyane cyane.

Umubyeyi wirabura wambaye ibitenge akaba akikiye umwana we mu ntoki umwana akaba arimo araseka, inyuma ye hari intebe zicayeho abandi bantu.

Inyubako nziza igaragaza ko ari ku kigo mbonezamikurire cy'abana batoya cya Matimba, hakaba hariho akapa kariho n'Irangantego cy'u Rwanda.

Kwa muganga haba hari icyumba cyabugenewe ndetse n'ibitanda biryamishwaho abarwayi baje barembye kugira ngo babashe kwitabwaho n'abaganga babegereye bitabagoye babashe gukira.

Ababyeyi bicaye ku ntebe harimo abiteze ibitambaro mu mutwe inyuma yabo hari abaforomokazi n'imbere yabo hari umuforomo urimo arabagezaho amakuru ajyanye n'ibyo baje gusaba.

Igihe umubyeyi wese atwite ni byiza kugana ku ivuriro kugira ngo ryitabweho ndetse barebe n'uko umwana uba ari mu nda ahagaze azavuke neza.

Ni byiza kugana kwa muganga igihe ufite umwana ukiri mutoya kugira ngo ahabwe urukingo rw'indwara zitandukanye bityo bizamurinde, azakure afite ubuzima buzira umuze.

Abantu bahagaze biganderwa bambaye udupira twa UNICEF, inyuma yabo hari igitambaro kiri mu ibendera ry'Igihugu cy'u Rwanda, harimo kandi umupolisi uhagaze ku ruhande, hirya hari inyubako nziza.

Gahunda yo kugaburira abana ku ishuri saa sita ni imwe muri gahunda yatumye imibare y'abana bata ishuri ugabanuka, abana rimwe na rimwe bajya ku gicumbi cy'umudugudu bagahabwa ibiryo birimo amafunguro yuzuye.

Ikigo nderabuzima cyubatse neza n'amatafari ahiye, ahatangirwa serivisi zo kwita ku bana kugira ngo babashe gukora bafite ubuzima bwiza buzira umuze.

Umwana mutoya w'umukobwa bigaragara kuba bamwogoshe umusatsi bakawumaraho akaba yambaye umwenda udoze mu gitenge, afite agakarito karimo ifu yitwa ongera intungamubiri igaburirwa abana kugira ngo bakure neza kandi bagire ubuzima bwiza buzira umuze.

Ni byiza kugana kwa muganga ukaba wafata inkingo zitandukanye zikurinda indwara nka Korona Virusi cyangwa se izindi zitandukanye kuko bituma umenya uko ubuzima bwawe buhagaze.

Abaforomo n'abaforomokazi ni bamwe mu bantu b'ingenzi, mu buzima bwacu bwa buri munsi kuko baradufasha kugira ngo tugire ubuzima bwiza buzira umuze, abajyanama b'ubuzima na bo barabunganira kugira ngo bataganwa n'abantu benshi.

Abajyanama b'ubuzima ni bamwe mu bantu bafasha abaforomo ndetse n'abaganga mu kumenya ubuzima ndetse n'imibereho y'abaturage, aha barimo barapima umwana kugira ngo bamenye ubure afite.

Abantu benshi bahanitse igipfunsi, bambaye imyenda y'umukara, bahagurutse ku ntebe z'icyatsi, inyuma yabo hakaba hari inyubako nziza iteye irangi ry'umweru.

Inyubako nziza yubakishije amabati ndetse isize n'irangi ry'umweru, imbere yayo hari ibiti byinshi ndetse n'ubusitani birimo ibyatsi bigufi ndetse n'ibirebire.

Ahantu heza cyane hahuriye abantu baje mu nama yiga ku munsi Mpuzamahanga wahariwe ubuzima bwo mu mutwe, hari ikirangantego k'Igihugu cy'u Rwanda ndetse n'ikirangantego k'Ikigo k'Igihugu gishinzwe kwita ku buzima mu Rwanda.

Urubyiruko rwambaye impuzankano y'umukara hejuru ndetse n'amapantaro y'umukara bamwe bambaye n'inkweto z'imikara harimo abakobwa ndetse n'abahungu, bafashe akapa kanditseho ikigo k'Igihugu gishinzwe kwita ku buzima RBC.

Ikirango kigaragaza ishami rya polisi ndetse n'ikirangantego cy'Igihugu cy'u Rwanda hano hakaba hariho amagambo yanditseho agaragaza ko ari ku Iyisange one stop center.

Abantu benshi harimo abakuze, abakiri bato, abazungu ndetse n'abirabura. Harimo umupolisi, bahagaze imbere y'icyapa cyanditseho Isange One Stop Center.

Abaturage bicaye bazengurutse bakoze uruziga aho bari mu nama cyangwa se mu itsinda baba barashinze ryo gutura amafaranga maze yo bakazayagabana bitewe n'igihe bihaye.

Umubyeyi w'inzobe urimo arahamagara ku karadiyo kifashishwa n'abajyanama b'ubuzima bahamagara kwa muganga, igihe bahuye n'umurwayi ufite ikibazo gikomeye ukeneye kwitabwaho byihariye.

Umuyobozi uhagarariye ikigo cya Isange one stop center arahagaze, imbere ye hari indangururamajwi, arimo arageza ijambo ku bamukurikiye, ku ruhande rwe hari kandi ikirangantego.

Abashinzwe gutanga ubutabazi bw'ibanze bazwi nk'abakorera Ikigo cya Croix Rouge, bateruye umwana ugize ikibazo aho yari yaje mu isoko kugira ngo bamwegereze ibitaro biri hafi bibe byamuha ubuvuzi.

Inzu irimo amayetegeri, agiye arimo imiti y'ubwoko butandukanye, izwi ku izina rya farumasi. Aho igenda iganwa ndetse igacururizwamo imiti yifashishwa mu kuvura indwara.

Iyo ugiye kwa muganga akenshi usanga bagupima bakakohereza mu nyubako zitwa farumasi kugira ngo ujye kugurayo ibinini bigufasha gukira indwara mu baba basanze ufite.

Umuganga uri mu iduka ricuruza imiti izwi nka farumasi afite ikayi imbere ye ku meza arimo arandika, yambaye itaburiya y'umweru iriho agasaraba k'icyatsi.

Icyapa kigaragaza ahantu hakorera farumasi ya Rayan aho icururizwamo imiti yifashishwa n'abarwayi batandukanye barwaye indwara nyinshi z'ubwoko bwinshi butandukanye.

Mu bucuruzi bw'imiti hari abo usanga bacuruza imiti yifashishwa n'abantu buzwi nka farumasi ndetse abandi bagacuruza imiti yifashishwa bavura amatungo.

Umugabo uhagaze mu iduka ndetse akaba afite n'ikaramu mu ntoki, yambaye ishati y'amaboko magufi inyuma ye hari ibicuruzwa byinshi byiganjemo ibiri mu ducupa, mu dushashi ndetse no mu tundi dupfunyika dutandukanye.

Abaturage biganjemo abakiri urubyiruko, harimo umugore munini ubyibushye, wambaye isaha ku kuboko ndetse n'ipantaro y'umukara n'umupira w'umweru, harimo abambaye amarinete ndetse n'abafite imisatsi itari myinshi.

Abanyeshuri biga mu kigo cy'amashuri yisumbuye cya Akumunigo, bafite akapa gatoya kanditsweho ngo twamaganye icuruzwa n'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge mu rubyiruko.

Abantu bahurijwe hamwe mu nama hakaba hari icyapa cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru ndetse n'umuhondo, avuga ko ari umunsi Mpuzamahanga wahariwe kurwanya Malariya, umwaka w' ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu.

Abakobwa babiri bambaye udupira tw'umweru twanditseho gakoresha neza. Ako bavuga ni agaki? Ni agakingirizo ushobora gukoresha igihe kwifata byakunaniye.

Ababyeyi, abagabo ndetse n'urubyiruko bicaye ku ntebe z'imyeru, ku ruhande hari ingoma ariko nta muntu urimo arazivuga. Biragaragara ko baje muri kampeni runaka.

Abana benshi bahagaze ku murongo barimo barifotoza bigaragara ko ari abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bambaye impuzankano bafite icyapa cyanditseho amagambo agaragaza ko ari icyumweru gifite icyo cyahariwe muri bibiri na makumyabiri na kane.

Umubyeyi wambaye agapira k'amaboko magufi ndetse akaba yiteze n'igitenge aho imbere ye hari udukoresho nk'agasekuzo, udusahani ndetse n'utundi tumeze nk'imbehe arimo aragenda asya anasekura umuti wa gakondo.

Mu Rwanda rwo hambere abavuzi ba gakondo ni bo bakoraga bavura Abaturarwanda aho bakoreshaga imiti gakondo ndetse bakoze mu byatsi nk'umuharavumba bakaba bakwita ku buzima bwabo.

Umugore witeze igitenge kiganjemo amabara y'umutuku, akaba yambaye n'agapira k'amaboko magufi ndetse n'imisatsi miremire. Imbere ye hari udukoresho turimo umusekuzo ndetse hakaba harimo n'imiti ya kinyarwanda, yifashishwa bavura indwara zitandukanye.

Muri iki gihe mu Rwanda usanga hariho abagikora ubucuruzi bw'imiti ya kinyarwanda, aho usanga byemewe ko banayicuruza mu masoko atandukanye, nk'aba bari hano bari kugenda bayigura ndetse banabereka uko ikoreshwa.

Abaforomokazi b'abamama bambaye impuzankano iri mu ibara ry'ubururu barimo baraseka barishimye bari kwifotoza bose kandi ubona ko banezerewe bishimiye akazi bakora nta kibazo bafite rwose.

Rimwe na rimwe ushobora kurwara ukaba kwifashisha imiti gakondo maze ugakira indwara waba urwaye, bidasabye ko ubanza kugana kwa muganga ngo baguhe imiti ya gihanga.

Ibiganza by'umuntu mukuru bigaragara ko ashobora kuba arwaye indwara yandura y'icyorezo cy'ubushita cyangwa se ibiheri biba ngombwa ko asagana kwa muganga kugira ngo bamufashe.

Mu muco nyarwanda bakoreshaga ibyatsi bitandukanye bivura indwara zigiye zitandukanye zabafataga, aho babanzaga kubisekura bakoresheje udukoresho twa kinyarwanda.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru w'umugabo arimo arasuzuma abaza ibimenyetso umurwayi w'umwana waje amugana, hagati yabo hari ameza ndetse n'utundi dukoresho bifashisha bapima, inyuma hari urukuta rusize irangi ry'umuhondo.

Iduka ricuruza ibijyanye n'imyambaro y'abakobwa cyangwa se abadamu n'abagabo, hahagaze umugabo hanze wambaye agapira k'amaboko maremare usa nk'uwarangariye muri telefone.

Umuganga wambaye agapfukamunwa k'ubururu ndetse n'itaburiya y'umweru n'uturindantoki byose by'umweru arimo arafata amaraso umukobwa nawe wambaye agapfukamunnwa waje amugana kugira ngo amusuzume inyuma ye hari undi mugore waje kwisuzumisha.

Inyubako nziza isize irangi ry'ubururu, isakaje amabati y'umweru, ifite amadirishya. Imbere hari akapa kanditseho ngo gira ubuzima, aho hashushanyije umuryango w'umugabo, umugore n'abana babiri.

Imbuga nziza cyane y'inyubako ikaba irimo amapave ndetse haragaragara na esikariye zizamuka zubatse neza, hari inyubako icururizwamo imiti itandukanye, hari kandi moto iparitse kuri ayo mapave.

Iduka ricururizwamo imiti yifashishwa mu kwita ku matongo cyane cyane, hakaba harimo uducupa dushushanyijeho buri muti n'itungo uvura.

Umugabo wambaye ishati y'umweru hejuru ye mu idirishya hahagaze undi bigaragara ko ari umwarabu ari kurebera muri iryo dirishya. Uwo mugabo arimo arabwira abandi bamwicaye imbere bamuteze amatwi.

Abaforomo n'abaforomokazi barahagaze imbere y'ameza ariho uducupa turimo binini ndetse n'isahani ya pulasitiki, hari kandi n'ibipapuro byavuye muri amvilope.

Ababyeyi benshi bose bakaba bafite impinja mu ntoki zikiri ntoya, bicaye imbere y'umugabo urimo aragenda abandika kugira ngo babashe guhabwa serivisi baje gushaka.

Ku mavuriro hanze baba barahashyize amazi azwi cyane ku izina rya kandagira ukarabe kugira ngo abahakana bajye babanza bagira isuku, bityo bifashe mu kwirinda indwara cyane cyane izandura.

Inyubako nziza isakaje amabati y'ubururu ndetse iteye n'irange ry'ubururu yanditseho amagambo avuga ngo Girubuzima, fondasiyo yayo yubakishije amabuye.

Ku nyubako isize amarangi y'ubururu, hari umuntu urimo ararebera mu idirishya, imbere yiyo nyubako hakaba hari ikigega gitoya cy'ubururu gishyirwamo amazi.